Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima cyakoze ubushakashatsi gishaka indege zigomba kujyana amaraso ziyavana ku kigo kimwe zikayajyana ku kindi, ni byiza ko tugomba kumenyamenye iri koranabuhanga ryaje kugira ngo tubashe gutabara abarwayi bacu mu gihe byihuse kandi mu gihe cya vuba bityo babashe kubona ubutabazi bw'ibanze ubuzima bwabo tubashe kuburokora mu buryo bwihuse kandi bubangutse.

Abaturage basobanura ko ari byiza gufatwa mu mugongo igihe bahuye n'ibyago. Bakomeza basobanura ko ari ingenzi kwegera bagenzi babo bagize ibyago, kugira ngo babashe kubahumuriza agahinda gashire. Ni byiza rero ko dukomeza kwegera bagenzi bacu igihe bagize ibyago, kugira ngo tubashe kubafasha ubuzima bwabo bukomeze kugenda neza, bakomeze no kwihangana ihungabana rigabanuke.

Isoko ririmo ibicuruzwa bigiye bitandukanye. Twavuga: nka kata, amavuta yo kwisiga, impapuro zikoreshwa mu bwiherero, amavuta yo mu mutwe, gelecerine ndetse n'indobo. Ni byiza ko abacuruzi bagomba kugira ibicuruzwa byose kugira ngo ababagana babashe kubona, buri kimwe cyose bakeneye.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima, gishishikariza abaturage ko gutanga amaraso ari ingenzi kuko bifasha abarwayi kuyabona mu gihe batayafite, ni byiza ko tugomba kumva ko tugomba gufasha bagenzi bacu badafite amaraso, tukayatanga kugira ngo babashe kubaho neza ndetse babashe no kubona ubuzima bwabo, mu gihe bakeneye amaraso bayabonere ku gihe.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima mu cyumba umurwayi arwariramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira abashe guhabwa ubuvuzi, twavuga nk'igitanda aryamaho igihe arwaye, inzitiramubu ibarinda umubu, ku buryo wakwirinda indwara zitandukanye ziterwa no kutarara mu nzitiramubu; ni byiza ko tugomba gufasha abarwayi bacu kugira babashe kugira ubuzima bwiza.

Mu bigo bitanga serivise zigendanye n'ubuzima, icyumba abarwayi barwariramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze, twavuga nk'ibitanda abarwayi baba baryamyeho, utubati dushyirwaho imiti babaha barimo babasuzuma, inzitiramubu zibarinda kurwara malariya ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa kugira ngo babashe kubona ubwo butabazi bw'ibanze. Ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kwita ku barwayi batugana.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima mu cyumba umurwayi arwariramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira abashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze, twavuga nk'igitanda aryamaho barimo bamusuzuma, intebe yicaraho, ameza ashyirwaho ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu kumusuzuma ndetse n'imiti y'ibanze bamuha igihe bamaze kumusuzuma. Ni byiza ko tugira ibikoresho bihagije kugira ngo abatugana tubashe kubaha serivise nziza.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima mu cyumba abarwayi barwariramo, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze, twavuga nk'ibitanda abarwayi baryamaho, inzitiramubu zibarinda imibu ku buryo batakwandura izindi ndwara igihe bari kwa muganga; ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho bihagije kugira ngo tubashe kwita ku barwayi bacu bityo babashe kugira ubuzima bwiza.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima muri sale yakirwamo abarwayi haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abarwayi baze kwakirwa, twavuga nk'intebe baba bicayeho ndetse n'ibishushanyo bitandukanye byerekana ibivurirwa aho ngaho; ni byiza ko tugomba gusobanurira abatugana kugira ngo babashe gusobanukirwa neza bityo babashe kubona ubutabazi bwiza kandi buboneye.

Mu cyumba murwayirwariramo ha abamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa, kugira ngo umarwayi abashe gusuzumwa. Twavuga nk'igitanda aba aryamyeho, amazi yo gukaraba, ameza aho gushyiraho ibintu bigiye bitandukanye nk'imiti baba bamuhaye yo kunywa, ndetse n'amakaye akurwamo imyirondoro yiwe.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, mu byumba ababyeyi babyariramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gufasha uwo mubyeyi. Twavuga nk'igitanda umubyeyi aryamaho amaze kubyara, icyo aryamaho barimo bamubyaza ndetse n'ibindi bikoresho byifashishwa barimo bamubyaza, n'imiti y'ibanze bamuha igihe bamaze kumubyaza. Ni byiza ko dufasha ababyeyi batwite kugira ngo babashe kubona abana babo ari bazima, nabo bisange bakiri bazima.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima hari icyumba cyabugenewe gipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze, haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo bashe gupima ibizamini bya buri murwayi wese; ni byiza ko ibigo byose bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima ko zigomba kugira ibi byumba kugira ngo buri murwayi abashe gutanga ikizamini maze abashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo ibyumba bipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze. Muri ibyo byumba barimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gupima ibizamini umurwayi aba yatanze. Twavuga nk'igikoresho cyifashishwa mu gupima amaraso umurwayi aba yatanze. Ni byiza ko tugira ibikoresho bihagije, kugirango ngo tubashe gufasha abarwayi bacu.

Mu nyubako zitanga serivisi zigendanye n'ubuzima hari icyumba cyabugenewe gipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze, ni byiza ko abarwayi bagomba gutanga ibizamini kugira ngo babashe kubasuzuma indwara zabo barwaye bityo babashe guhabwa imiti myiza, dushishikariza ibigo byose bitanga serivisi z'ubuzima ko iki cyumba kigomba kuba gihari kubera ko abarwayi babagana baba bafite indwara zigiye zitandukanye.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima, hari icyumba cyabugenewe gipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze. Muri icyo cyumba haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa mu gupima ibizamini bigiye bitandukanye, nko gufata umusarani, gufata amaraso ndetse n'ibindi bikoreshwa mu gihe bakeneye gufata umuntu ibizamini. Ni byiza ko tugomba kubigana kandi buri vuriro ryose rikagira iki cyumba kuko ari ingenzi, abarwayi baba barwaye indwara zitandukanye.

Mu ibigo bitanga serivisi z'ubuzima, haba harimo ibyumba byabugenewe bipimirwamo ibizamini abarwayi baba batanze. Ni byiza ko muri ibyo byumba habonekamo ibikoresho byose byifashishwa kugira ngo umurwayi abashe kubona ibizamini bye, abashe kumenya indwara yivuza, ndetse anasuzumwe neza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe kwita ku buzima bw'abana gishishikariza ababyeyi ko ari byiza gukomeza gusigasira ubuzima bw'abana babo, babakurikirana babajyana kwa muganga igihe barwaye, ni byiza ko tugomba gukurikirana ubuzima bw'abana bacu kugira ngo babashe gukura neza tubarinda indwara ndetse ubuzima bwabo buzagende neza mu minsi iri imbere.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza ababyeyi kugana ibigo nderabuzima, kugira ngo bashe kumenya uko abana babo bahagaze, babapimisha kugirango babashe kumenya ibiro bafite, bityo babashe kumenya indyo babaha, ndetse babashe no kumenya uburyo bagomba kubitaho. Ni byiza ko duharanira ubuzima bw'abana bacu kugira ngo babashe gukura neza.

Abatanga serivisi z'ubuzima bunganira abaganga bazwi nk'abajyanama, bashishikazwa kwegera abaturage kugira ngo babasobanurire neza ibyo bakora, bityo babashe kubagana babashe no gusobanukirwa byinshi bigendanye n'indwara, kugira ngo uhuye n'ikibazo abashe kubagana basobanurirwe ndetse bahabwe n'imiti igendanye n'indwara yaje kwivuza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bw'abana gishishikariza ababyeyi ko ari ingenzi konsa umwana ku buryo bukwiriye kugira abashe kugira ubuzima bwiza, ni byiza ko tugomba gukurikirana ubuzima bw'abana bacu tubonsa uko bikwiriye kandi tunaharanira ubuzima bwabo tureba ko barwaye kugira ngo tubashe kubageza ku kigonderabuzima.

Mu byumba bikorerwamo ibiganiro, haba barimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo ibyo biganiro bibashe kugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye ibiganiro bicaraho, ameza bifashishija igihe barimo bandika, amakaramu ndetse na televiziyo, bifashisha barimo berekana byinshi bitandukanye kuri ibyo biganiro baba barimo bareba.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, icyumba umurwayi asuzumirwamo habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze, twavuga nk'intebe bicaraho bari kumusuzuma, amamashini yifashishwa bari gushaka imyirondoro y'iwe ndetse n'ibitabo bikoreshwa bari gushaka imyirondoro yindi igiye itandukanye; ni byiza ko tugomba kugira ibikoresho byinshi bitandukanye mu cyumba dusuzumiramo umurwayi kugira ngo abashe guhabwa ubuvuzi bw'ibanze.

Icyumba gikusanyirijwemo imiti igi itandukanye abantu bakenera mu buzima bwa buri munsi, kizwi nka farumasi, ni byiza ko ibi byumba bigomba kwegerezwa ahantu ahaho hose kugira igihe abarwayi barwaye babashe kuhagerera igihe ndetse banahagere vuba bityo babashe kubona ubutabazi bw'ibanze.

Icyumba gikusanyirijwemo imiti abarwayi bakenera iyo barwaye kizwi nka farumasi, abagikoramo bashishikariza abaturage kubagana kugira babashe kubaha ubutabazi bw'ibanze bityo indwara barwaye babashe kuzikira; ni byiza ko igihe twumvise turwaye tugomba kubagana kugira babashe kuduha ubutabazi bw'ibanze bityo tubashe kugira ubuzima bwiza.

Icyumba kirimo imiti igiye itandukanye kizwi nka farumasi, habonekamo imiti myinshi igiye itandukanye abarwayi bakenera igihe barwaye, ni byiza ko tugomba kugana kino cyumba cyitwa farumasi kugira ngo tubashe kukibonamo imiti myinshi kandi myiza ishobora kutuvura indwara turwaye mu gihe twahuye n'indwara zigiye zitandukanye.

Ikigo k'Igihugu gishinzwe ubuvuzi bw'amatungo, gisobanura ko ari ingenzi gusobanurira abaturage neza aho bakorera kugirango ngo babashe kubagana. Ni byiza ko amazu dukoreraho tugomba kuyashyiraho ibituranga kugira ngo abatugana babashe gusobanurirwa neza ibihakorerwa.

Icyumba kibamo imiti abarwayi bakenera iyo barwaye kizwi nka farumasi, gishishikariza abakigana ko ari ingenzi kugira ngo babashe kubaha imiti itandukanye, maze babashe gukira uburwayi barwaye. Ni ingenzi ko tugomba kugana faromasi kugira babashe kuduha imiti itandukanye bityo indwara turwaye zibashe gukira, dukomeze tugire ubuzima bwiza.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima bw'amatungo gishishikariza abakora mu buzima bw'amatungo ko ari ingenzi kugira imiti yose kugira ngo amatungo abashe kugira ubuzima bwiza. Ni byiza ko habaho farumasi z'amatungo kugira ngo indwara yose iteye mu matungo ibashe kubonerwa umuti maze amatungo abashe kubaho neza kandi agira ubuzima buzira umuze.

Mu byumba bya foromasi haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abahagana babashe gusobanukirwa igikorerwa aho ngaho, twavuga nk'impapuro ziba zimanitse ku gikuta zirimo urutonde rw'ibyo bakora n'ibyo bavura ndetse n'imashini bifashisha igihe barimo bashaka imyirondoro y'umuntu uje kwivuza.

Farumasi ni icyumba gikubiyemo imiti buri umwe wese agomba gukenera igihe yarwaye. Ni byiza ko tugomba kumenya ubuzima bwacu igihe bwarwaye tukagana farumasi, maze tukabasha kuhakura imiti itandukanye yabasha kudufasha mu burwayi bwacu. Tugomba gushishikariza buri umwe wese kugana farumasi, kugira ngo abashe gukemura ikibazo ubuzima bwiwe bufite.

Ukwezi kwahariwe ibikorwa bya polisi byo kurwanya ndetse no gukumira ibiyobyabwenge, n'ukwezi ngarukamwaka aho dusanga abayobozi bo mu nzego zigiye zitandukanye baba bamanutse mu baturage ndetse no mu rubyiruko barimo babashishikariza kumenya agaciro k'ubuzima bwabo ndetse no kwirinda gukoresha ibiyobyabwenge, kugira ngo buri umwe wese abashe kumva agaciro k'ubuzima bwe. Ni byiza ko tugomba gukumira ibiyobyabwenge duharanira agaciro k'ubuzima bwacu.

Mu byumba bikorerwamo inama haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo inama ibashe kugenda neza. Twavuga nk'intebe abitabiriye inama bicaraho, ameza bashyiraho amakayi bandikamo ibyo barimo bavuga, amakaramu bakoresha barimo bandika ndetse n'ibishushanyo bigaragaza icyo iyo nama igomba kwigwaho. Ni byiza ko rero tugomba kugira ibikoresho bihagije, kugira ngo ibyo twateguye bibashe kugenda neza.

Abakora umwuga w'ubuhanzi basobanura ko ari ingenzi mu buzima bwabo ndetse no ku buzima bw'abatuye isi. Bakomeza basobanura ko ari byiza, kubera ko bibafasha gususurutsa abaturage ndetse bika bibafasha kubona amafaranga yababeshaho mu buzima bwabo bwa buri munsi. Ni byiza ko tugomba kwihangira imirimo dukora ibintu byinshi bigiye bitandukanye, kugira ngo tubashe kugira ubuzima bwiza no kubona byinshi dukeneye mu buzima bwacu.

Ikigo cy'Igihugu gishinzwe ubuzima gishishikariza abaturage ko hari umunsi wababugenewe wo kurwanya Malariya, ni byiza ko abayobozi bamanuka mu baturage kugira ngo babashe kubashishikariza ibyiza byo kwirinda Malariya ndetse bagakomeza no gusigasira ubuzima bwabo bakaburinda kujya mu kaga.

Imiti gakondo n'imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni byiza ko rero iyi miti gakondo tuyikoresha kugira ngo tubashe kwivura indwara zitandukanye ndetse tubashe no gusigasira ubuzima bwacu bwe gukomeza kujya mu kaga. Imiti gakondo rero n'imiti iba ikozwe mu byatsi imwe iba ari amazi indi ar'ifu ariko yose ikozwe mu byatsi.

Imiti gakondo ni imiti ikorwa mu byatsi bigiye bitandukanye aho usanga imwe ari ifu indi ari amazi ariko byose byavuye mu byatsi bimwe, ni byiza ko iyi miti tuyikoresha kuko idufasha kwivura indwara zitandukanye zananiranye mu buvuzi bwa kizungu bityo tubashe kugira ubuzima bwiza ndetse tubashe no gusigasira ubuzima bwacu tuburinda indwara zigiye zitandukanye.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, ni byiza ko tugomba gukoresha imiti gakondo dore ko iba yiganje mu byatsi bigiye bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'uwo muti, ni byiza kuko tugomba kuyikoresha kugira ngo tubashe kwivura indwara zigiye zitandukanye zikoreshwa n'imiti ya Kinyarwanda.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zananiranye mu buvuzi bwa kizungu. Ni byiza ko iyi miti gakondo tuyikoresha kugira ngo tubashe kwivura indwara zitandukanye turwaye kandi tubashe kugira ubuzima bwiza. Imiti gakondo rero ahanini usanga ari ibyatsi by'ifu cyangwa se amazi bitewe n'ubwoko bw'uwo muti. Ni byiza rero ko tuyikoresha kugira ngo tubashe kugira ubuzima buzira umuze.

Imiti gakondo ni imiti yifashishwa mu kuvura indwara zitandukanye zananiranye mu buvuzi bwa kizungu, imiti gakondo ni imiti iba ikozwe mu byatsi bigiye bitandukanye bitewe n'ubwoko bw'uwo muti; ni byiza ko tugomba gukoresha ino miti kugira ngo twivure indwara zitandukanye, bityo tubashe kugira ubuzima bwiza kandi buzira umuze.

Mu byumba bitanga serivisi z'ubuzima haba harimo icyumba cyabugenewe cyakirwamo abarwayi ikize umwana resebusiyo mu ndimi z'abahanga, haba higanjemo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira babashe kwakira abo barwayi, nk'intebe baba bicayeho ndetse n'ameza bashyiraho amafishi yabo kugira ngo babashe kubatandukanya.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima haba hari ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo abarwayi be gukomeza kwiyongerera uburwayi, twavuga nk'amazi akoreshwa igihe bari gukaraba bavuye mu bwiherero ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye nk'ibyo gushyiramo imyanda yakoreshejwe; ni byiza rero ko tugomba gutoza abarwayi gukomeza kugira isuku kugira ngo uburwayi bwabo bwe gukomeza kwiyongera.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima mu cyumba umurwayi yakirirwamo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumufasha ndetse no kumwakira neza bumva ikibazo cy'uburwayi afite twavuga nk'intebe umurwayi aba yicayeho, inshinge zifashishwa igihe bari kumufata amaraso, ni byiza rero uko tugomba kwakira abatugana neza kugira ngo tubashe kugira isura nziza mu bayobozi bacu.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima hari icyumba cyakirirwamo abarwayi, icyo cyumba kiba kirimo ibikoresho bitandukanye kugira ngo abo barwayi babashe kwakirwa, bavuge ikibazo bafite maze babone kubafasha, twavuga nk'intebe bicaraho ndetse niba igishushanyo bigaragaza ibyo bakoramo aho ngaho.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima gisobanura ko ari ingenzi kwakira neza ababagana, kugira ngo babashe gusobanukirwa ibibazo bafite babone kubafasha. Ni byiza ko natwe igihe twumva dufite ikibazo, tugomba kugana ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, ndetse n'ibindi bigo bishobora kudufasha kubona ubutabazi bw'ibanze, ndetse n'ubuvunzi bw'ibanze, bityo ubuzima bwacu bukabasha kuba bwagenda neza.

Mu bigo bitanga serivisi zigendanye n'ubuzima harimo n'ibigo nderabuzima, abakora ku bigo nderabuzima basobanura ko akazi bakora ari keza kandi bakishimiye, ndetse bakakomeza bavuga ko ari ingenzi gusobanurira ababagana kugira ngo babagane neza, bityo babashe guhabwa ubutabazi bw'ibanze ndetse n'inama zitandukanye zigendanye n'ubuzima bwabo.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima icyumba umurwayi bamwakiriramo haba harimo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe gufasha uwo murwayi ubagana. Twavuga nk'intebe umurwayi yicaraho, ameza aterekwaho ibikoresho bitandukanye byifashishwa igihe bari kumusuzuma, mashini zifashishwa igihe bari gushaka imyirondoro ye, ndetse n'amashusho agaragaza ibyo bakora ndetse n'ibyo bavura. Ni byiza ko dufasha abatugana kugira ngo babashe kugaruka neza.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima, icyumba umurwayi asuzumirwamo, haba harimo ibikoresho bitandukanye, byifashishwa kugira murwayi abashe kubona ubutabazi bw'ibanze. Twavuga nk'imiti bifashisha bari kumusuzuma, intebe yicaraho igihe bari kumusuzuma, ndetse n'ameza ajyaho ibikoresho bitandukanye byifashishwa, nk'amakayi yandikwamo imyirondoro yiwe, ndetse n'imiti igiye itandukanye.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima ikindi ngo umurwayi arwariramo habamo ibikoresho bitandukanye byifashishwa kugira ngo babashe kumusuzuma. Twavuga nk'igitanda umurwayi aryamaho, intebe yicaraho, akabati kaba karimo imiti itandukanye yifashishwa igihe bamaze kumusuzuma, wese yo kujyamo, ubukarabiro ndetse n'ameza ashyirwaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye, harimo n'iibijyaho imyirondoro y'iwe.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe ubuzima, gishishikariza ababifite mu nshingano ko ari byiza kuyobora abaturage bifashishije ibyapa, bashushanyaho icyo bakora, ibyo babakorana nabyo, mituweri se cyangwa ubundi bwishingizi, kugira ngo ubagana abashe gusobanukirwa neza, kandi abashe kubagana yizeye ko aribuze kubona ubufasha.

Mu bigo bitanga serivisi z'ubuzima harimo n'ibigo nderabuzima abakora ku bigo nderabuzima bashishikariza abaturage igihe barwaye ko bagomba kubagana kugira ngo babashe kubaho ubuvuzi bw'ibanze ndetse babashe no kubagira inama zitandukanye zigendanye no ku buzima bwabo ndetse babashe no kubafasha kuba bakira indwara barwaye, ni byiza ko tugomba kugana ibigo nderabuzima kugira ngo bibashe kudufasha mu gihe turwaye.